Ahantu bacuruza imiti itandukanye, harimo umuganga ufite imisatsi miremire y'ibisuku, wambaye itaburiya y'umweru, uri gupanga imiti neza.

Kwa muganga, ahantu bavura uburwayi bwo mu kanwa n'amenyo afite ibibazo bakayatunganya, umuntu agasubirana ubuzima, hari abaganga babiri mur'icyo cyumba.

Ivuriro ry'ibanze bita posite de sante riri ahantu heza rifite urukarabiro ku muryango n'amadirishya abiri n'imiryango ibiri.

Ibyatsi byiza bitoshye by'icyatsi bifite udutiritiri tw'icyatsi, harimo n'ibifite udutiritiri tujya gutukura hari n'utundi dusa naho tugiye kuyanga ariko tutari icyatsi hose neza.

Ahantu hateye ubwatsi bw'amatungo, n'agati karekare kari mu bwatsi. Iruhande rwaho hari utwatsi dushaka kuma, havuye izuba igihe kirekire.

Ahantu hari utwatsi tudatoshye pe! bigaragara ko utwo utwatsi, twakubiswe n'izuba, tutabonye imvura ihagije. Ifumbire biragaragara ko ari ntayo.

Ibimera byiza biri kuyaga bifite ibara ry'icyatsi kibisi harimo imitobotobo itarakura n'ikindi cyatsi kigira amahwa mato.

Igiti cyiza kiri ahantu iruhande rw'ubuhinge. Igiti bita ikijojo gitoshye, kimeze neza cyane.

Igiti cy'icyatsi kibisi giteye ahantu hari kuva akazuba, hatari mu ishyamba. Munsi yacyo hari utwatsi dutoduto.

Utwatsi tw'icyatsi turi ahantu duteye dusa neza, twabonye imvura turatoshye, kamwe karayanze utundi ntiturayanga, munsi yatwo harasa n'aho hari kumeramo umucaca.

Ikimera cyicyatsi kimeze nk'urutoryi, giteye hagati y'amabuye mu gataka gakeya gahari, kandi kimeze neza.

Ibimera byiza biri ahantu, hafite ifumbire nkeya kuko bidatoshye ngo bibe ari icyatsi kibisi kimeze neza, bifite utuyange tugiye kuba ubururu ,turi mu butaka risa n'aho rijya gutukura.

Igiti cyiza cy'intusi, bita ruvuvu kikiri gitoya, kirimo gukura kimeze neza, giteye ahantu mu butaka bwiza, bufite amazi kigaragara ko gitoshye.

Ahantu hari utwatsi twumye , n'utundi tubisi turimo kumera tukiri dutoya cyane. Ahantu badaheruka guhinga, bagiye kuzahinga mu minsi iri imbere.